Muri rusange twebwe Kagame Paul perezida wa repubulika inteko ishinga amategeko yemeje none natwe duhamije dutangaje itegeko riteye ritya, kandi dutegetse ko ritangazwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u Rwanda.

Abantu batatu bicaye hamwe bari kumva inama harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri, mu bagabo harimo umwe bambaye amarinete banambaye n'amashati imbere yabo hari amazi yo kunywa afunitse neza mu ducupa.

Abantu bahuriye hamwe bari kumva inama z'umugabo uhagaze, wambaye ishati nziza y'ibara ry'ubururu bisa nk'aho bashobora kuba bakora muri gahunda za leta.

Urubyiruko rwahuriye ahantu hamwe rukaba rwicaye ahantu hageretse kabiri hakaba hafite igisenge gifite amabara menshi agiye atandukanye, ndetse n'amatara hejuru no ku nkuta.

Abagore babiri bicaye, imbere yabo hari ibirahure. amatasi, ikiyiko, terefone n'ifoke n'imeza.

Abantu benshi bicaye hamwe bari kumva ibyo umugabo uhagaze ari kubabwira, bakaba bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hakaba hari igitambaro gifite ibara ry'umweru ndetse no ku nkuta hakaba hari ibitambaro by'amabara agiye atandukanye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bari kumva inama imbere yabo hakaba hari amazi yo kunywa ndetse n'ibitambaro by'umweru bigaragara yuko bashobora bakora mu kazi ka leta cyangwa ahantu hashobora kuba hasaba impamyabumenyi z'ikirenga.

Abantu bahuriye hamwe ari benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bari kumva inama zigiye zitandukanye ziri gutangwa, inyuma yabo hari n'ibiti bigiye bitandukanye bari gutanga bahagaze mu kibuga k'ibitaka.

Abantu batatu bicaye, imbere yabo hari ameza, ameza akaba ariho amacupa, itasi ndetse na mashini, inyuma yaho igikuta kikaba gisize mu irangi ry'umweru.

Ikigaragara iyi ni ifoto yifashishwa mu kwamamaza ya Rwanda reveni otoriti yerekana ko ugomba kwishyura imisoro n'amahoro, bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara imbere hakaba hari imeza irimo umukara na shokora, kuri iyomeza ko hakaba hateretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi, inyubako bicayemo ikaya isize inkuta zisize ibara ry'umweru.

Abantu bicaye kuri sima isa umutuku, inyuma yaho hakaba hari inkuta zisa umweru n'inkingi zisa umukara, bakaba bafite n'amabati ndetse n'ibyuma bitambitse muri ayo mabati, inyuma yaho hakaba hari n'ahandi hagaragara ibiti.

Abagabo ndetse n'abagore bahuriye mu cyumba hagati bari mu nama hari umugabo umwe uhagaze uri kubaganiriza ndetse imbere hari televiziyo bari kurebamo ibyo bari kuganira ndetse inyuma hari igikuta cy'umweru.

Abantu bicaye mu busitani, imbere yabo hakaba hari umugore uri kuvuga ijambo, ufite agasangizajambo mu ntoki, bakaba bicaye muri tente iri mu mabara y'ubururu, umuhondo, n'icyatsi, hejuru hakaba hasa umweru bakaba bakikijwe n'indabo n'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza, ameza akaba ariho uducupa tw'amazi, barigukoresha bari kunywa, inyuma yabo hakaba hari n'abandi bantu bicaye kuri sima isa umutuku ndetse inyuma hakaba hari inkuta zisize irangi ry'umweru, hari n'inkingi zubakishijwe amabuye.

Abantu bicaye hamwe bari kumvamva inama zigiye zitandukanye bicaye mu busitani bwiza cyane ndetse baritwikiriye kugira ngo birinde izuba bakaba bakikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Umugabo arahagaze ari gutanga ubutumwa ku bantu bitabiriye inama bagiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bigaragara yuko ari kubagira inama zigiye zitandukanye.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Abantu bicaye ku ntebe zisa umweru, abantu bambaye imipira iri mu mabara agiye atandukanye, icyatsi, umuhondo, abambaye amapantaro asa umukara, inyuma yaho hakaba hari ibikuta bisize umweru n'amadirishya, hejuru hakaba hari ibyuma bitambitse bifashe amabati.

Yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ari mu bwoko bw'uruziga, aya meza akaba ariho mudasobwa, uducupa tw'amazi. Inyuma hakaba hashashe itapi iri mu ibara rya kaki ndetse n'inkuta zirimo ibara umukara, umweru n'icyatsi cyerurutse.

Abantu bicaye ku ntebe babiri bambaye imyenda yubururu bwijimye ya police.

Abantu bicaye imbere hakaba hari imeza iriho mashine, telefone, ibirahure n'udusangizamajwi.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye ahantu hamwe bari kuganira, imbere yabo hari terefone zigendanwa kandi n'amazi ya kompanyi y'inyange.

Abagore bibumbiye hamwe, bicaye barikumva inama, biragaragara yuko bakora m'ubuyobozi bwa leta ndetse bakaba bicaye ku ntebe nziza cyane

Abantu bicaye hamwe ndetse n'abanyamahanga bari kuganira bambaye amashati y'ubururu ndetse biragaragara ko bashobora kuba bakora mu nzego za leta.

Abantu bicaye hamwe ari benshi bari kumva inama zigiye zitandukanye bakaba bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru ndetse hakaba hari umugabo umwe uri kubabwira nawe wambaye neza cyane.

Aho ni ahantu abantu bahuriye hamwe bari gukora igikorwa cy'ubwubatsi, ku mpande yabo hari umunara w'amashanyarazi n'ibiti bigiye bitandukanye bihakikije.

Icyo ni ikibanza gikorotiriye n'amatafari ndetse n'ibyuma, mo imbere hakaba harimo umunara wa kompanyi y'itumanaho.

Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iri kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo hakaba hari abatumirwa bagiye batandukanye harimo mwambari Faustin, Biraboneye Afririka na Mutagoma Felix ndetse na Munyaburanga vincent bikaba bizaba itariki ya mbere gicurasi bibiri na myakumyabiri na gatatu, bikazaba saa saba, saa cyenda n'igice bikazaca kuri arativi.

Inzu isize irangi ry'umweru iriho ibyapa byamamaza bisa umutuku, umweru, ubururu n'imiryango isa ubururu n'ikinyabiziga cya moto giparitse n'icyapa gisa icyatsi.

Icyapa cyamamaza kiri mu mabara y'ubururu hariho n'amagambo yandikishijwe asa umweru, ndetse n'imibare yanditse iri mu umweru, umuntu akaba ariho n'umuntu wambaye umupira w'ubururu, umukobwa wicaye ku ntebe zisa kaki zifite amaguru y'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe za kaki imbere yabo hakaba hari, mudasobwa zirimo ibara ry'umukara, bakaba bicaye mu nzu, inyuma hakaba hari ibikuta bisa umweru harimo n'akabati gasa umukara.

Iduka ritanga serivisi za Ekwiti ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ari zo MTN na Eyateri, za kompanyi za tumanaho.

Umunara uhagaze, ukikijwe n'ibiti, n'inzu zisa zubakishijwe ruriba, hirya hakaba hari imisozi, imbere hakaba hari ibihingwa by'ibigori.

Icyapa cyamamaza gisa ubururu, kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, icyapa kikaba gisa ubururu, hasi hakaba hari uduce giherereyemo, Kigali- Rwanda, ndetse n'amatariki byandikishijwe mu nyuguti z'umweru.

Serivisi za leta zitangwa kuri murandasi harimo kureba ubuzima bwawe cyangwa se ibisubizo bya kovide cyangwa kureba niba warikijije urukingo rwa kovide.

Inzu iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'ubururu n'umweru hakaba ari ho utwuma turi guca ku madirishya tusu umukara ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hashashe amabuye.

Umunara uhagaze umunara wifashishwa mu gutanga amakuru agiye atandukanye ukaba uri mu mabara abiri umutuku n'umweru ukaba uhagaze hirya hakaba hariho ibindi bintu binini by'ibizeru.

Icyapa kiri kwamamaza abantu batanga serivise zo kujya kwiga mu bihugu by'amahanga ndetse hari na kaburimbo ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru, ku ruhande ku gahanda k'abanyamaguru hari ibiti bigiye bitandukanye.

Umunara uhagaze ukikijwe n'ibyuma na senyenge umunara ukaba uri mu ibara ry'umutuku n'umweru, ibyo byuma bikaba biriho icyapa cya emutiyeni kiri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Abantu hagaze, hariho insinga hari umuntu yegamye ku ipoto, n'inzu ifite amabati y'umutuku, n'umuzenguruko uzengukijwe n'amatafari ahiye.

Amamodoka aparitse hafi y'amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari n'abantu bari kugenda ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, n'agahanda k'abanyamaguru ndetse na kaburimbo.

Ipoto rihagaze abantu bariho guturuka ahari umuyobore uhuriyeho insinga nyinshi zibyara amashanyarazi wuriye ipoto.

Iyi ni kaburimbo iruhande hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, hakaba hari n'ipoto ririho insinga, icyapa cya mpandeshatu kiri mu mabara y'umutuku umweru n'umukara hakaba hari n'umuntu wegamiye akazu ka "MTN".

Urugo rwiza ruzengurukijwe n'amatafari ahiye ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye hakaba hari n'umunara w'itumanaho w'ibigo by'itumanaho ndetse n'ipoto imurikira nijoro iyo bwije.

Isa icyatsi n'umukara, zihagaze ahantu hari amabara y'umukara, n'umweru, n'icyatsi, imbere ye hakaba hari umukobwa uhahagaze wambaye ingofero isa umukara, n'ishati, ndetse hakaba hari n'icyapa cyerekana, gisa umweru, n'umukara.

Ipoto rifasha gusakaza amashanyarazi muri ako gace, riherereyemo rikaba rishyirwaho n'insinga zisakaza interineti ku baturage bahaturiye bitari amashanyarazi gusa.

Mu muhanda harimo amapikipiki mu gahanda k'abanyamaguru harimo udutaka tw'abakozi batanga serivisi za emutiyene, harimo kubitsa kubikuza ndetse no kohereza amafaranga.

Agahanda k'abanyamaguru gakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse na ruhurura icamo amazi y'imvura iyo yabaye menshi ndetse n'iminara isakaza umuriro w'amashanyarazi ku baturiye ahongaho.

Ipoto ry'amashanyarazi risakaza amashanyarazi muri ako gace rikaba rikikijwe n'amazu menshi agiye atandukanye ndetse n'ibiti byiza bigiye bitandukanye.

Ikiraro cy'amashanyarazi iruhande rwacyo hakaba hari ipoto, iruhande rw'iryo poto hari abantu babiri bahagaze bambaye utujire tw'icyatsi n'ingofero zisa umuhondo, iruhande rwe hakaba hari inzu isize mu irangi ry'umweru hakaba hakikijwe n'ibiti.

Igipangu gikorotiriye, gifite ibyuma hagati bisize irangi ry'umukara ndetse n'imodoka ebyiri ziparitse, imwe y'irangi ry'umweru, indi y'umukara, inyuma hakaba hari umunara usakaza amashanyarazi ku bantu bahaturiye ndetse n'ibiti bikikije uwo munara.

Ipoto rihagaze iruhande rw'inzu, inzu isize irange ry'umweru, yubakishije amabuye asize irange rya shokora, iri poto rikaba ririho insinga ,hirya hakaba hari igiti n'imodoka iparitse n'igipangu epfo.

Umunara w'amashanyarazi ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'amazu y'abaturage, uwo munara ukaba wasakaza amashanyarazi kuri buri rugo ruturiye uwo munara.

Igikuta cyubakishijwe ruriba kiriho utwuma, ndetse buri nkingi ikaba iriho itara, n'ipoto rihagaze ririho insinga.

Ipoto ry'amashanyarazi rimurikira abahisi n'abagenzi bagendera ku nkengero z'umuhanda, rikaba rifasheho n'insinga z'amashanyarazi zisakaza umuriro mu gace riherereyemo.

Umuhanda wa kaburimbo ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi, rifasha gusakaza amashanyarazi muri ako gace n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ipoto y'amashanyarazi, isakaza amashanyarazi muri ako gace.

Umunara w'amashanyarazi, ufasha gutanga amashanyarazi muri ako gace. Ukaba ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ndetse ukaba unashyirwaho itumanaho.

Ibiti bibiri bisakaza amashanyarazi, ndetse n'imashini ifasha kuba yahindura ingufu z'amashanyarazi, kugira ngo zibe zagera ku baturage bikikijwe n'ibiti ndetse n'ipasiparume.

Ipoto ritwara amashanyarazi ku baturiye iyo karitsiye ikaba ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ibyapa byo mu muhanda biyobora ibinyabiziga.

Abantu bicaye ahantu hamwe harimo abambaye iroza ndetse n'abambaye imyenda isanzwe ku gikuta hariyo igikoresho gikoreshwa ubwirinzi bw'inkongi y'umuriro ibikuta bikaba bifite irangi ry'umweru no hejuru hakaba hariho irangi ry'umweru ndetse n'imirongo y'umukara n'amatara yo hejuru.

Ubusitani busa icyatsi burimo ubwatsi busa icyatsi n'ibiti ndetse n'indabo zibukikije, hirya yaho hakaba hari inyubako zisize amabara atandukanye y'umuhondo, n'umweru . Hakaba n'ahubakishijwe n'amabuye ndetse n'ibyuma bimanuye bisa ubururu n'imireko ndetse n'amabati n'imiryango isa ubururu.

Abantu bagiye batandukanye bakaba bicaye bategereje serivisi, hasi yaho bicaye hakaba hari amakaro meza cyane ndetse ku gikuta hakaba hari amarangi agiye atandukanye n'ibyapa bibereka aho bagomba kujya bitewe na serivisi baje kureba.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari akahanda k'abanyamaguru ndetse n'icyapa kigaragaza yuko ari hafi y'ibitaro bya Kabgayi.

Iyi n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, hakaba hariho n'amakaro asa umweru, imbere y'inyubako hari parikingi aho imodoka zihagarara, ndetse hakaba hari n'ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabo zibukikije, ndetse n'ibiti bihagaze n'amapoto.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri mu ibara ry'umweru n'umutuku iriho utuntu dusa umutuku tw'umusaraba ikaba ihagaze muri kaburimbo isa umukara hirya hakaba hari inkuta zisa umweru ndetse na kaki.

Inzu zisize irangi ry'umweru, amadirishya asa icyatsi yubakishijwemo na za ruriba, hakaba hari kaburimbo, abantu bari kugenda

Abantu bari kugenda muri kaburimbo kandi wa kaburimbo hakaba hari ibiti bi by'icyatsi n'inkuta zubakishijwe ruriba n'amabati asa umutuku n'igikuta gisa umweruru, babanuka bambaye utunoza suku two mu mutwe n'udutambaro dusa umweruru imbere y'imyenda.

Igikuta cyukishijwe amabuye ahiye, ifite amadirishya y'ubururu n'inzugi z'ubururu, hirya hariyo abantu babiri bahagaze n'amabati n'ibyuma bifashe amabati.

Inzu ifite amabati asa shokora, ifite inkingi zisa umweru n'umuhondo. Imbere yayo hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti burimo n'amabuye, hakaba hari n'abaturage bicaye ku ntebe.

Ibi ni ibikarito biri mu ibara rya kaki, ibikarito bikaba byandikishijweho n'ubururu bwijimye, hakaba hometseho ibipapuro by'umweru.

Abagororwa bo muri gereza bahuriye hamwe bari gutarama bishimye, aba ari abagororwa bazizwa ibyaha bigihe bitandukanye baba barakoze bakaza gushyirwa muri gereza nk'igihano.

Abagororwa bakoze ibyaha bigiye bitandukanye, bari gusohoka mu modoka z'abashinzwe umutekano wo kubarinda, bafite impapuro mu ntoki, bigaragara ko bashobora kuba bagiye mu rukiko kuburana.

Umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga cyangwa se uburwayi, yambaye neza ishati ndetse na karuvati n'ingofero, inyuma ye hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umugabo uri mu cyumba cy'iburanishwa, ushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, akaba yegeranye n'abari kumuburanira, harimo umugabo ndetse n'umugore, inyuma ye hakaba hari ushinzwe umutekano, umugabo akaba yambaye impuzankano zijya gusa umutuku

Abagabo bane harimo babiri bambaye imyenda y'umukara yambarwa n'abapolisi bo mu Rwanda hagati y'abo harimo umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'ingofero y'umweru n'inkweto z'umukara, umeze nk'umunyabyaha ufite uruhu rwirabura bazwi nk'abazungu. Inyuma y'abo hari imodoka ifite amabara y'umweru, ubururu n'amatara y'umutuku n'ubururu impande y'imodoka hahagaze umugabo.

Igazeti ya leta ifasha guhana ibyaha bigiye bitandukanye, abantu baba bakoze, ndetse ikaba yanafasha kuba wareba ingingo zikurengera mu gihe waba wahohotewe, cyangwa wabujijwe uburenganzira bwawe.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Abagororwa bicaye bambaye imyenda ijya gusa umutuku bari imbere y'umunyamategeko.

Serivisi ya leta ariyo inkiko gacaca yafashaga abantu bakoze jenoside, ndetse n'abo biciye kuba bakiyunga hatajemo amakimbirane yandi y'imiryango yabo ngo ihangane.

Izi ni ingorororwa zihagaze mu byatsi zambaye imyenda ya oranje zimanitse amaboko ndetse bamwe bambaye amasa, inyuma hakaba hakikijwe n'ibiti.

Igororero riherereye i Rwamagana, aho bajyana abantu bafite imico mibi kugira ngo bagororwe maze bazagaruke muri sosiyete barahinduye imyitwarire.

Inzugi z'umukara n'umweru, mo imbere haparitsemo imodoka, imodoka zigiye zitandukanyekanye, hakaba urukuta rusa umweru, hejuru hakaba hasa umukara werurutse hasi hakaba hashashe kaburimbo n'ikindi gice gishashemo amabuye.

Umupolisi n'umuturage bahagaze ku gahanda k'abanyamaguru, hirya hari kaburimbo, hirya yaho hari inzu isa umweru ifite amadirishya, harimo n'ibyapa by'ubururu, hejuru yaho y'iyo nzu hakaba hari ibiti bihateye.

Ibikoresho bikoreshwa hirindwa inkongi y'umuriro harimo amatiyo y'amazi akoreshwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro bikaba bifashe ku gikuta gisa umweru ndetse n'amakaro hasi.

Ibinyabiziga byahagarikishijwe na polisi muri kaburimbo abapolisi ni abambaye utujiri tw'icyatsi n'umukara ndetse n'ingofero z'umukara, imbere y'abamotari hakaba hari uturongo tw'umweru dushushanyije, akaba ari ho abanyamaguru bambukira, iyi kaburimbo ikaba izengurutswe n'ibiti n'amapoto.

Polisi y'u Rwanda yahurije hamwe abantu bagiye batandukanye irimo irabigisha uko wazimya umuriro ubaye uri guteka ugafatwa n'inkongi y'umuriro.

Igiti gikoreshwa mu kwirinda inkongi y'umuriro gifashe ku gikuta gifite amabara agiye atandukanye, igikuta gifasheho gifite ibara ry'umweru ndetse gikikijwe n'intebe.

Uwo ni umuyobozi w'ishami rya polisi y'u Rwanda ari gutanga ubutumwa ku bantu bitabiriye inama yabahurije ahantu hamwe.

Imodoka iri kugenda muri kaburimbo ku ruhande rw'iyo kaburimbo hari umuhanda w'abanyamaguru na moto n'ibiti n'amapoto.

Imodoka y'umweru, iri kwaka mu mabara abiri atandukanye, hari iy'umutuku n'ubururu, inyuma y'imodoka hakaba hari indabyo zisa icyatsi ndetse ino modoka ikaba ifite amapine y'umukara.

Polisi ishinzwe ibijyanye no mu muhanda ndetse n'ibibera mu muhanda bigiye bitandukanye, ifite imodoka ifite amabara meza agiye atandukanye iraparitse ahaparikwa imodoka.

Igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro gifashe ku gikuta, ku gikuta hasize ibara ry'umweru ndetse n'iry'umutuku nacyo kikaba gifite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'umukara n'amagambo ariho yerekana uko gikoreshwa.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru hakaba hari gutambukamo abashinzwe umutekano ari bo bapolisi, ku ruhande hakaba hari abacuruza ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'abatanga serivisi zo kubitsa, kubikuza, kohereza ndetse no kwakira amafaranga abakozi ba MTN.

Umukozi w'ikigo cy'u Rwanda cya polisi gishinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda arimo arabaza ibyangombwa umushoferi utwaye imodoka; inyuma ye hakaba hari igipangu gifite amatafari ahiye.

Ndabona inzu ifite urugurutse mu muryango w'umukara n'abantu bambaye imyenda y'umukara, ndetse hasi hakaba hari n'amakaro.

Ahari kubera amatora yo gutora abadepite muri bibiri na cumi n'umunani abaturage baba babyitabiriye ku bwinshi harimo abagore, abagabo ndetse n'abana bazanye n'ababyeyi babo.

Abaturage bahuriye hamwe baje kumva icyo uri kwiyamamaza mu matora yabageneye hari n'amatente yabugenewe arinda izuba uri kuvuga.

Umugore wambaye igitenge ufite umusatsi w'umukara, ufite ishakoshi n'udukomo n'inkweto za shokora, akaba yicaye ku ntebe ijya gusa shokora.

Abadamu harimo abadamu babiri bicaye undi usa nk'uhagaze inyuma yabo hari igi hari icyapa cyanditse mu mabara y'ubururu cyanditse mu mabara y'umweru kikaba gifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe imwe, hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru na bote z'umukara, bafite ibipapuro mu ntoki biri mu ibara ry'umweru, inyuma y'abo bantu hakaba hakikijwe ibiti by'ubwoko butandukanye n'imodoka.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Perezida Paul Kagame ari gutanga ikiganiro ku baturage bitabiriye inama ndetse hari n'icyapa cya tora Kagame Paul.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame, akaba ari n'umukuru w'ishyaka rya fpr. Arimo araganiriza abanyamuryango b'iryo shyaka ababwira ijambo nyamukuru.

Umuntu uhagaze wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru na karuvati isa umweru inyuma ye hakaba hari igipakarite gisa ubururu ndetse hakaba harimo n'umweru.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame yazamuye igipfunsi ari kumwenyura yambaye ishati y'umweru ifite ikirangantego cy'ishyaka rya efuperi hari abaturage bari kumva ibyo ari kuvuga.

Imodoka igenda muri kaburimbo iruhande rwayo hari ibyatsi, hirya hakaba hari imisozi hakaba hari n'ibiti bigiye bitandukanye.

Kugenda muri kaburimbo, hari n'umunyonzi uri kugenda iruhande rwayo, hirya ye hakaba hari ibiti, iyo kaburimbo ikikijwe n'ibiti, iyo modoka isa umweru, ifite n'amapine y'umukara, inyuma yayo akaba hari ikikorera gisa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye abagabo babiri bafite ibinu bavuye kugura bari gusunika hakaba hari n'amazu y'amaduka ndetse n'iminara isakaza amashanyarazi muri ako gace.

Umuhanda wa kaburimbo ucirwamo n'imodoka zigihe zitandukanye, ku ruhande hakaba hari uduhanda tw'abanyamaguru natwo dukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye imodoka ikaba yasaga umutuku itwaye umucanga.

Umuhanda wa kaburimbo ucibwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ufite uduhanda tw'abanyamaguru ku ruhande tubiri ndetse na ruhurura ihegereye n'ibiti bigiye bitandukanye.

Bisi ihagaze muri kaburimbo, inyuma yaho hari umunyonzi, hirya imisozi irimo ibiti nk'ipoto ry'icyatsi ryanyanditsemo amagambo y'ubururu n'umuhondo n'ibiti yepfo.

Moto iri kugenda muri kaburimbo inyuma ya motara hari amazu ari mu ibara ry'icyatsi umweru yubakishijwe imunyu na moto iparitse.

Ikinyabiziga kiri muri kaburimbo kiri mu ibara ry'umweru, ndetse hakaba n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara, akaba yanditse ahantu hasa umuhondo, iruhande rwa kaburimbo y'umukara hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, hakaba hari n'igare.

Imodoka itwara imizigo iremereye, ifite ibara ry'umutuku iri mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru ndetse na rigori, agahanda kari hirya k'abanyamaguru gakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Gare abantu batageramo bisi, bisi ziba zigiye mu byerekezo bitandukanye. Hakaba hari bisi zisa ubururu, hakaba na kaburimbo iruhande rwa kaburimbo hari akazu gasa umweruru n'ibyatsi ndetse na rigore.

Umuntu uri kugendera muri kaburimbo, i ruhande rwa kaburimbo hari rigori, hejuru ya rigori hari ibiti, amapoto, ndetse n'insinga, n'inzu iri mu ibara rya shokora...

Ikamyo ifite ibara ry'umukara n'umutuku itwara ibintu biremereye, ikaba iri guca mu muhanda wa kaburimbo ucamo n'ibinyabiziga bindi bigiye bitandukanye ukikijwe n'uduhanda tubiri tw'abanyamaguru, ndetse na ruhurura itwara amazi y'imvura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga gitwara imizigo iremereye, hakaba hakikijwe na ruhurura, ndetse n'amazu agiye atandukanye, bakaba bari gupakira iyo modoka.

Ntabwo iri kugenda muri kaburimbo ikubi isi abamotari, iruhande rwa kaburimboga bakikijwe n'ibiti na mosikiteli isa icyatsi, gikoreshwa mu bwubatsi na rigore.

Umuhanda wa kaburimbo ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukikijwe n'uduhanda tubiri tw'abanyamaguru, ndetse na ruhurura icamo amazi y'imvura, ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga kiri kugendera muri kaburimbo gisa icyatsi gifite amapine y'umukara, iruhande hakaba hari agahanda k'abanyamaguru, hirya y'uwo muhanda, y'icyo kinyabiziga hakaba hari n'ibiti biteye ndetse na mositikeli isi icyatsi.

Igikamyo kirekire gitwara imizigo iremereye kiri mu muhanda wa kaburimbo, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti bihakikije.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru, ndetse ukaba ufite ku ruhande ibiti bigiye bitandukanye, hakaba hari n'umugore ucuruza ibiribwa.

Bisi icanye amatara, iri kugenda muri kaburimbo, iruhande rwayo hari abanyamaguru bari kugenda, amapoto ndetse n'insinga, hirya hakaba hari amazu ari kwaka urumuri.

Icyapa kigaragaza yuko aho hantu haparikwa na bisi zitwara abagenzi mu buryo bw'abantu benshi hakaba hari ibyapa byamamaza umuco gakondo wacu y'imbyino za kinyarwanda.

Igikamyo kiri kugenda muri kaburimbo, igikamyo kiri mu mabara y'umutuku umweru, gifite amapine y'umukara, iruhande rwa kaburimbo hakaba hari agahanda k'abanyamaguru, hari kugendwamo n'abantu, hirya y'igikamyo hariyo ibiti biteye bisa icyatsi.

Umumotari ukora umwuga wo gutwara abantu kuri ipikipiki ari mu muhanda wa kaburimbo unyurwamo n'imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi binyabiziga, ukaba ukikijwe n'umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo ipikipiki ndetse n'igare rifite imizigo, hakaba hari uduhanda tw'abanyamaguru ndetse hafi y'ako gahanda k'abanyamaguru hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye.

Imodoka ziri kugenda muri kaburimbo, eshatu, iruhande rwazo hari agahanda k'abanyamaguru, zikaba zikoreye imizigo, hirya yaho hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka cyapfiriye hafi y'umuhanda, n'urugi rwinjira mu rugo rw'abantu; icyo kinyabiziga cyapfuye amapine, barimo barayahindura (abagabo babiri).

Iyo ni imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, inyuma yaho hakaba hari umunara usakaza amashanyarazi ku baturage bahaturiye.

Imodoka itwara imizigo iremereye igenda mu muhanda wa kaburimbo ucibwamo n'imodoka nyinshi zigiye zitandukanye ukikijwe n'uduhanda tubiri tw'abanyamaguru ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Imodoka ihagaze muri kaburimbo isa umweru, iruhande rwayo hari agahanda k'abanyamaguru, hirya y'imodoka hari abantu bari kuhagenda, imbere y'imodoka hari icyapa gisa n'icyatsi, ubururu n'umukara bikaba biri ku nkingi zisa umweru.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga by'ingeri zose, ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru, ndetse ufite n'ibiti bitandukanye, bikikije uduhanda tw'abanyamaguru, hakaba hari n'aho haparitse ibinyabiziga bitandukanye.

Ikinyabiziga cyikorera ibintu biremereye ndetse n'umunyagare bari guca mu muhanda mugari unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ufite uduhanda tubiri tw'abanyamaguru ku ruhande. Ndetse ukaba unakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakikijwe n'uduhanda tubiri tw'abanyamaguru ku ruhande hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'uduhanda tw'abanyamaguru, hari amamodoka atwara abantu mu buryo bw'abantu benshi, araparitse ndetse hari n'akamodoka gatwara imizigo kari ku ruhande, hari n'abantu bari gutambuka.

Kaburimbo inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhanda ifite uduhanda tw'abanyamaguru ndetse hakaba haciyemo imirongo y'imyeru igaragaza yuko byemewe kuba babisikaniramo.

Kaburimbo igice kimwe gishashwemo amabuye, iruhande rwaho hateyemo ibiti by'amoko atandukanye kandi hakaba har’inzu is’umweru, ifite amadirishya y'ubururu n'umuzenguruko w'iyo nzu.

Ni ikarita y'abacuruzi baroko ahantu bacuruza ibiryo n'ibinyobwa biri, haba hariho ibiryo n'igiciro cyabyo amafaranga bigura ndetse n'uburyo ugomba kumenya ibyo uhitamo kugira ngo babikuzanire, mu buryo bwo kunoza imikorere yabo.

Ikibuga cy'umukino w'amaboko gisize amarangi agiye atandukanye kirimo n'amazi; kikaba kinakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye; hakaba hari n'icyuma gisakaza amashanyarazi.

Kaburimbo, hari kaburimbo y'umukara, karimbo y'icyatsi, ikikijwe n'indabyo n'ibyatsi.

Umuntu uri kugendera mu muhanda w'amabuye w'abanyamaguru, iruhande hakaba har’ibyatsi n'ibiti, hakaba hari n'icyapa cyerekana ibyerekezo umuntu yajya akoresha agiye ahantu.

Icyapa kigaragaza ko utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo ine ugeze muri ako gace, gikikijwe n'uduti tugiye dutandukanye ndetse n'amazu n'inzu itararangira ikiri mu bikorwa byo kubakwa.

Iki ni icyapa cya mpande eshatu kerekana ibinyabiziga bigenda mu byerekezo bitandukanye, kikaba kigizwe n'amabara atatu ariyo umukara, umutuku n'umweru.

Icyapa kibuza kikaba gikoze mu buryo bw'uruziga kikaba kirimo amabara atatu umutuku, umweru ndetse n'umukara kikaba kiburira umuntu kuba yahita asubira inyuma.

Icyapa gifite amabara atatu ariyo:umukara, umutuku, ndetse n'umweru, kikaba gishyirwa muri kaburimbo kiburira abatwara ibinyabiziga birebire bitwara imizigo yuko batemerewe guca muri iyo kaburimbo.

Icyapa kimenyesha abatwara ibinyabiziga mu muhanda ko, hafi y'aho bageze hashobora kuba hari ikigo cy'amashuri, basabwa kwigengesera bakagenda gake,...

Icyapa kimenyesha abatwara ibinyabiziga ko bageze ahantu hari ibigo by'amashuri, bagomba kwitwararika, bakagenda gake, bashishoza cyane, kuko hashobora kuba hari abanyeshuri.

Icyapa kigaragaza yuko hari aho baca babanje kuzenguruka ndetse kikanategeka yuko ugenda ku muvuduko wa cumi na gatanu ku isaha, hakaba hakikijwe n'agahanda k'abanyamaguru ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Icyapa cyerekana Akarere ka Karongi umuhanda akaba ari kaburimbo, iruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru. Hirya hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti n'ikimashini kiri gukora muri ubwo busitani.

Icyapa cyereka ibinyabiziga birebire ko bitemerewe kuhaca, icyo cyapa kikaba gishyirwa muri kaburimbo kugira ngo kimenyeshe abashoferi b'ibyo binyabiziga ko batemerewe guca aho hantu.

Icyapa kiburira cyangwa kibuza kiri mu buryo bw'uruziga, kikaba kiri mu marangi abiri umutuku, n'ubururu, hakaba harimo n'uturongo tubiri tunyuranamo twerekana ko kibuza.

Icyapa kibuza kikaba kiri mu buryo bw'uruziga. Uruziga ruka rurimo amabara atatu umutuku, umukara n'umweru hakaba harimo akakarongo gatambika kabuza hakaba hashushanyijemo n'ikinyabiziga.

Inteko cyangwa inama yiganjemo abantu ubwoko bwose harimo; abagabo babiri ndetse n'abagore babiri. Umugore umwe n'umuzungu wambaye ishati imwe n'utuntu tw'umukara n'abagabo babiri umwe yambaye ikositimu y'ubururu bwijimye ndetse na karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru, n'undi mugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu.

Icyapa gifite amabara abiri ari cyo umweru ndetse n'ubururu, kigaragaza yuko aho hantu haparikwa n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kikaba gishyirwa muri kaburimbo kugira ngo kimenyeshe abari gutwara ibinyabiziga muri iyo kaburimbo ko aho ngaho haba hari icyapa cy'ibyo biziga.

Icyapa umuntu yifashisha agenda mu buryo butandukanye mu nzira zitandukanye kiba kiri mu mabara abiri umuhondo ndetse n'umukara.

Icyapa kigaragaza ko aho hantu hemerewe guparika imodoka zitwara abantu mu buryo bwinshi kandi kikaba gifite amarange y'umweru ndetse n'ubururu.

Icyapa kigaragaza y'uko imbere hari umuhanda winjira mu muhanda mugari uromboreje, bikaba bibwira abatwaye ibinyabiziga y'uko bagomba kwitwararika bakagenda gake cyangwa bakabanza kwitegereza neza mbere y'uko binjira mu muhanda mugari.

Iki n’icyapa kiburira cyangwa kibuza, kikaba gikozwe mu buryo bw'uruziga, hakaba harimo amabara abiri atandukanye, umutuku n'ubururu.

Iki ni ikimenyetso cyereka abatwara ibinyabiziga yuko ahantu bageze bagomba gutwara gake, gishyirwa mu muhanda ugendwamo n'ibinyabiziga.

Icyapa cya kaburimbo, cy'amabara abiri, gishyirwa muri kaburimbo kugira ngo kiburire abatwara ibinyabiziga yuko umuhanda bari gucamo hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhabera.

Iki ni icyapa ndanga cyeyerekezo, ni icyapa cyo guhagarara, bikaba byerekanye icyerekezo gitandukanye muri kaburimbo hakaba hazengurutswe n'indabo n'ibyatsi.

Inzu yubakishijwe amabuye ya ruriba hejuru hakaba hari udusangizamwuka gafite amadirishya y'umukara arimo uturongo tw'umweru, imbere yaho hakaba hari imicanga n'amabuye bivanze n'ibiti.

Kimironko ahantu hari imiturire myiza cyane, hari amazu agiye atandukanye kandi akikijwe n'ibinyabiziga hari n'amazu ageretse inshuro irenze imwe.

Aha ni kuri pedoro kofe ni ahantu bacuruza ibijyanye n'ikawa n'izindi serivisi zigiye zishamikiyeho z'ibijyanye n'ikawa.

Ndi kubona inzu ifite ibipangu by'umukara buri nkingi iriho itara, inzu ikaba isa kaki yijimye hasi hakaba hashashe amabuye.

Inzu izengurukijwe amatafari ahiye ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse n'umutuku n'insinga zisakaza amashanyarazi kuri iyo nzu n'imireko y'amazi y'imvura.

Amaduka atanga serivisi zigiye zitandukanye hafi y'aho haparitse amamodoka nayo atandukanye, hakaba hari n'inyubako ndende ifite amakaro ku bikuta byayo ndetse n'ibirahure byiza cyane ndetse n'insinga z'amashanyarazi zigiye zisakaza umuriro muri ako gace.

Umumotari utwara ipikipiki ari mu muhanda wa kaburimbo unyuramo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'inyubako igeretse gatatu ifite amarangi meza n'ibirahuri.

Igipangu gikuratiriye gifite irangi ry'umweru gikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hagati hakaba harimo inzu y'amabara menshi meza, ndetse igizwe n'ibirahure byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu nziza cyane ifite igipangu cyiza ifite amarangi yumweru ndetse n' ibirahure bifite irangi ry' umukara n' igipangu kikaba gifitemo irangi ry' umukara.

Ubusitani bwiza cyane bugiye bufite ibiti bigiye bitandukanye; hari ni'ipoto y'amashanyarazi ndetse n'aho abahaca bicara n'agahanda k'abanyamaruguru n'akagendwamo n'abantu.

I Remera kwa Rando amazu meza cyane ndetse n'ageretse kenshi akaba akikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse na kaburimbo nini, hakaba hari n'amapoto amurikira abantu nijoro iyo bwije.

Agace gatuyemo abantu ndetse n'uruganda rwa Azamu, hakaba hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'amapoto asakaza amashanyarazi muri ako gace.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhanda hari agahanda k'abanyamaguru ndetse hafi y'agahanda k'abanyamaguru hari ibiti bigiye bitandukanye bikikije uwo muhanda.

Kaburimbo icamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ikikijwe n'amaduka atanga serivisi cyangwag se acuruza ibiribwa, imyambaro n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba hari uduhanda tw'abanyamaguru ku ruhande, ndetse n'amapoto asakaza amashanyarazi muri ako gace.

Ushakishije ruriba zifitemo utwuma dusa umuhondo n'ubururu kandi n'ibikuta bisize irange rya kaki, ndetse harimo n'utundi twuma mo imbere dusa ubururu, imbere hakaba hari igitaka kirimo ibyatsi.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Ishuri ry'abana b'inshuke rifite ubusitani bwiza ndetse n'aho abana bakinira, hari ibikinisho bigiye bitandukanye hakaba hakikijwe n'ubusitani bwiza, ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inzu ndende igeretse kenshi ifite amarangi meza ndetse n'ibirahure ikaba ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse na korotire y'amatafari ahiye ifite irangi ry'umweru hejuru.

Umuhanda wo kwa Rando wa kaburimbo, unyurwamo n'imodoka zigiye zitandukanye, ukaba wegereye inyubako igeretse kabiri, kandi muri iyo nyubako hakaba hakorerwamo amabanki agiye atandukanye, ndetse n'andi maduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Kaburimbo ishushanyijemo imirongo y'umweru niho abanyamaguru bambukira, iruhande rwaho hari agahanda k'abanyamaguru, hirya hakaba hari ibiti bikikije iyo kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ku ruhande uduhanda tw'abanyamaguru ndetse hari n'amazu aturiye uwo muhanda, hafi y'uduhanda tw'abanyamaguru hari ibiti bigiye bitandukanye bihakikije ndetse n'amapoto y'umuriro amurika iyo bwije.

Umuhanda uriho amapave asa ikigina, imbere y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane bufite indabyo zisa umuhondo n'icyatsi, impande y'uwo muhanda hari inyubako nziza cyane ifite amabara asa umweru n'umukara hirya yaho hariho indi nyubako ifite amabara

Umuhanda wa kaburimbo ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru, ndetse n'amapoto asakaza amashanyarazi, n'amapoto yandi amurika iyo bwije.

Ishusho igaragaza ibiro biberamo, ibiro biberamo ihererekanya, ibiro birafunguye imbere yabyo hari umuntu usa nuri gusohokamo biseze amabara y'icyapa cyerekana kiri mu mabara y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo ucibwamwo n'imodoka zigiye zitandukanye, hakaba hari uduhanda tubiri tw'abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'amapoto ariho amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Kaburimbo y'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande ifite uduhanda tubiri tw'abanyamaguru ndetse na ruhurura itwara amazi y'imvura. Ikaba ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Iyi ni kaburimbo iri kugendwamo n'ibinyabiziga, ikinyabiziga cya moto, kikaba bikabikikijwe n'ibiti n'amapoto, uko mubona kaburimbo ni umuhanda ucagaguye.

Imihanda ya kaburimbo ibiri igendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ukikijwe na ruhurura ndetse n'uduhanda tw'abanyamaguru, hakaba hari n'ibiti bigiye bitandukanye biwukikije ndetse n'amapoto asakaza amashanyarazi, n'umuriro aho ngaho biherereye.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwaho n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibimenyetso by'aho abanyamaguru bambukira ndetse hakaba hari ku mpande umuhanda w'abanyamaguru ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ufite agahanda ku ruhande rw'abanyamaguru ndetse ikaba ifite n'ibiti bigiye biwukikije bigiye bitandukanye.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'indabo n'ubwatsi bukeya ndetse n'ibiti birebire n'amapoto yapfo hakaba hari igipangu gisa umukara hirya hakaba hari imisozi ndetse hakaba hari n'inzu ifite amabati asa umweru.

Kaburimbo abamotari bari kugendamo ikaba ifite ipoto ry'ubururu n'umweru; hakaba hateyemo ubusitani busa icyatsi hirya yaho hakaba hari agahanda k'abanyamaguru hirya yaho hakaba hari ibiti bikikije kaburimbo.

Umuhanda kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hari n'amapoto afasha mu gusakaza amashanyarazi ku baturage bahaturiye, n'uduhanda hafi y'uduhanda tw'abanyamaguru hari ibiti bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo mugari ugendwa n'imodoka, ndetse no ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru, ukaba unakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari uduhanda tw'abanyamaguru ndetse n'amapoto ariho amatara atanga urumuri nijoro ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Uwo ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo imodoka n'amapikipiki, birahagaze bitegereje y'uko babirekura bikaba byagenda.

Umuhanda wa kaburimbo uhurirwamo n'imodoka nyinshi, harimo imodoka ifite amabara y'umukara ndetse niy'umweru, ku ruhande hagiye harimo ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'uduhanda tw'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ufite uduhanda ku ruhande tw'abanyamaguru, dukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hakaba hari na sitasiyo yo gufatiraho esanse.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto n'abantu, iruhande rwayo hakaba hari agahandada k'abanyamaguru, hirya yaho gato hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi n'ibiti, hejuru hakaba hari igikuta gisize irangi rijya gusa umweru.

Imihanda ibiri ya kaburimbo umwe uca hasi undi ugaca hejuru icibwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse uba ukikijwe n'ibiti byinshi.

Ikigaragara iyi ni ifoto yifashishwa mu kwamamaza ya Rwanda reveni otoriti yerekana ko ugomba kwishyura imisoro n'amahoro, bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'imodoka z'ingeri zose , aho hari aho baca bazenguruka , hari uduhanda tw'abanyamaguru turi ku ruhande, hakaba hari n'amapoto y'amashanyarazi, hakaba hari n'ibyatsi bigiye bihakikije.

Umuhanda wa kaburimbo ucibwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari n'undi uca hejuru nawo ucamo n'ibinyabiziga n'ako gahanda k'abanyamaguru gafite ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ukikijwe n'uduhanda tubiri tw'abanyamaguru, hari n'amapoto asakaza urumuri mu gihe k'ijoro, hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda kaburimbo unyurwamo'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ukaba ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru ndetse n'amapoto amurika iyo bwije, ukaba unakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka n'amapikipiki, ukikijwe n'uduhanda tw'abanyamaguru tubiri, na two dukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Imodoka iri kugendera muri kaburimbo ndetse na moto. Kaburimbo ikaba irombereje irimo akarongo k'umuhondo karimo n'ibindi bimenyetso bigaragarizwa mu muhanda byerekana ahantu wakatira, hirya ya kaburimbo hakaba hariyo ibiti n'ubwatsi buteye.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari uduhanda tubiri tw'abanyamaguru ku ruhande hakaba hari umutaka w'umuntu utanga serivisi za emutiyene, harimo kubitsa kubikuza ndetse no kohereza amafaranga.

Umumotari uri kugenda muri kaburimbo, iruhande rwe hakaba hari igikamyo cy'umutuku, motari akaba ari kubisikana n'imodoka ebyiri, iruhande rwa kaburimbo hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti n'ibyatsi.